Iyo habaye ibura ry'amazi ku masoko ndetse no ku mavomero rusange, abaturage bahitamo kugana iy'ibishanga bakajya kudaha, amazi kugira ngo babashe kubona ayo bakoresha nubwo aba adasukuye.

Iyo wanduye mu biganza, ni ngombwa gukaraba intoki mbere yuko ubasha kunywesha amazi ibiganza byawe kugira ngo ayo mazi atanduzwa n'intoki zawe.

Iyo ugiye kwa muganga winjira mu isuzumiro, bakagupima umuvuduko w'amaraso wawe uko uhagaze mu mubiri, bakareba niba uri kugenda ku kigero cyagenwe.

Ubuyobozi n'urubyiruko babukereye mu muganda wabahurije hamwe, mu gikorwa cyo gutera ibiti nk'inkomoko y'ubuzima bwiza mu baturage.

Abaganga bari kuvura umwana uburwayi bwo mu kanwa, kugira ngo bamukize maze uburibwe afite bw'amenyo bubashe kugabanuka. Maze amererwe neza.

Uburwayi bwo mu kanwa ni imwe mu ndwara kwa muganga babasha kuvura, cyane cyane iyo uyirwaye yihutiye kugera ku kigo nderabuzima kimwegereye kugira ngo abashe kuvurwa ubwo burwayi.

Umuyobozi yaje gutanga amagare afasha abafite ubumuga mu kugira ngo babashe kuva ahantu bajya ahandi mu buryo buboroheye bidasabye ko abantu bagomba kubaheka.

Akenshi mu buzima uzasanga umwana w'umukobwa yikundira se, cyane cyane aho usanga bifotoza baseka, kurenza uko yaba yifotoza ari kumwe na nyina.

Abanyeshuri n'abarezi bari mu gikorwa cy'ubukangurambaga bw'agakoko gatera virusi ka sida bamenyesha urubyiruko ko bakwiye kwipimisha hakiri kare kugira ngo bamenye uko umubiri wabo uhagaze mu bijyanye n'agakoko gatera virusi itera sida.

Abadogiteri iyo bari gusuzuma umurwayi bakeka ko afite icyorezo, ni ngombwa ko bambara udupfukamunwa ndetse n'uturindantoki kugira ngo batabasha kwandura.

Icyumba cyo kwa muganga kiba gifite igitanda cyabugenewe, gitandukanye n'icyo mu rugo cyangwa se aho dutuye tugomba kuryamaho kugira ngo gifashe umurwayi kuryama atekanye.

Iyo wandikiwe imiti na muganga, ni ngombwa ko uhita ufata urwo rwandiko wandikiwe ukajya kuri foromasi ikwegereye ukajya kugurayo imiti kugira ngo ubashe gukira uburwayi.

Umuganga ahagaze imbere y'ibitaro asuzumiramo ibijyanye na Malariya mu rwego rw'ubufatanye na RBC, bityo bategereje ababagana.

Inzu mberabyombi ifite amashanyarazi ahagije ku buryo buri wese wicaye mwa aho ngaho abasha kumurikirwa ku buryo bumworoheye kandi ikaba yicayemo umubare w'abantu benshi.

Iyo ufite inyota ugomba kunywa amazi meza asukuye kugira ngo ubashe gushira inyota bityo ugire n'amagara mazima bityo ubashe gukura neza.

Hari ibikoresho binyuranye byifashishwa mu kubungabunga isuku, birimo umuti wo mu kanwa, uturindantoki ndetse n'ibyo umuntu ajyana ku bwiherero ndetse n'imiti itandukanye.

Ubuvuzi gakondo ababukora begeranya ibyatsi by'amoko atandukanye, hanyuma bakabisekura bakavanamo umuti bakawushyira mu ducupa, bitandukanye cyane n'ubuvuzi bw'ubungubu, aho bafata ibyo byatsi bakabitunganyamwo ibinini.

Mu buvuzi gakondo bifashishaga ibyatsi bigiye bitandukanye bakabyegeranya hanyuma bakabishyira mu kantu bakaba babisekura hanyuma bagakuramo utuzi dukeya utwo tuzi tuvuyemo bakatwifashisha bavura umurwayi.